Abantu babiri bakuze bambaye imipira y'imituku bombi bafite imvi, umwe yambaye amadarubindi ufite ibintu bimeze nk'imiti kumeza hari n'utundi ducupa tw'imiti dutandukanye.

Abantu bigaragara ko umwe ari gukingirwa ku kaboko, ari gukingirwa indwara ya Corona Virus, ikigaragara kuko inyuma nibyo bigaragara, bombi bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye n'ingofero.

Inyubako y'ubuvuzi yubakishijwe amatafari ahiye, hagaragara indabo, hari n'umuhanda wa kaburimbo ukoze neza, hari n'icyapa cyerekana serivise z'ubuvuzi zitangwa.